Ivomero rusange, hari umuntu uteze ibiganza usa nk'aho ari gukaraba ariko iri vomo rizana amazi menshi ndetse ubona ko ari amazi meza ateye ubwuzu.

Aha ngaha hari umugabo ubyibushye cyane wambaye ikoti na karuvati, ahagararanye n'umumama, iruhande rwabo hari abana bari guseka bishimye, inyuma yabo hari n'ibyapa.

Ahantu hari agatanda kariho ibikoresho byo mu gikoni amasahani ,amasafuriya ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye byifashishwa mu gihe abantu bagiye kurya.

Umugabo ufite umusatsi mwinshi, ari kureba umwana mu maso. Hari n'umugore uteruye uwo mwana yicaye hasi, inyuma ye hari abandi babyeyi bateruye abana, birasa nk'aho bose bicaye bategereje umuntu runaka.

Ni ku ivomero rusange aho buri wese aza azanye ikivomesho ke akavoma amazi, hari amabase menshi ndetse hari n'amabido menshi, hari abana baje no kuvomera ababyeyi n'umugabo urimo kubabwira ibyamuzanye ku ivomo.

Abana babiri bari ku ivomero rusange ubona ko bari gukaraba intoki, ni byiza ko twajya dutoza abana gukaraba intoki bityo bagakomeza gusa neza no kugira ubuzima bwiza.

Abana benshi basa nk'aho banyotewe no kunywa amazi ari ku ivomo ariko abo bana ubona ko bishimye, bari guseka, hari n'undi umwe uri kuri uwo mugezi, uri kunywa amazi.

Icyumba gisa nkaho cyahuriyemo abantu b'ingeri zitandukanye, turabonamo abirabura, abazungu ndetse hirya yaho hari umugabo usa nkaho yunamye ari kubafotora.

Abana bagaragara neza cyane bambaye imipira yanditseho UNICEF, ubona ko bari kureba cyane ndetse ubona banari kumwenyura.

Uyu ni umugezi utemba, aho hari umwana wicaye ku ruhande rw'uwo mugezi utemba ndetse n'undi muntu mukuru wunamye usa nk'aho ari kuvoma muri iryo vomero.

Ni ku ivomo rusange, hari umwana wateze ibiganza bye byombi, ari kuvoma amazi ari na ko ayanywa, ayo mazi ari kugenda agwa mu ndobo, uwo mwana yazanye ngo avomere ababyeyi.

Abana babiri b'abakobwa, ubona ko umwe afashije undi indobo, asa nk'aho agiye kuyimwikoreza ndetse bari ku ivomo, bisa nk'aho iyo ndobo bayisizemwo amazi.

Umubyeyi w'umumama uri guseka yitegereza umuganga wasamuye umwana we ari kumuha imiti. Uwo muganga yambaye itaburiya y'umweru ndetse yambaye n'amaherena.

Ni ku ivomo rusange, hahurira abantu benshi baturutse mu bice bitandukanye, hari umubyeyi w'umumama ndetse hari n'abana ubona ko bari gusabana bishimye, hari n'indobo nyinshi n'ibido bari kuvomeramo.

Icyumba cyo kwa muganga gisize amarangi y'umweru, gusa hari n'andi marangi asizemo uturongo y'umweru umukara ndetse n'icyatsi, hari n'udutanda turyamaho abarwayi.

Icyumba kinini cyane, kirimo abantu b'ingeri zitandukanye bigaragara ko baje mu nama, imbere yabo ku meza hariho amacupa y'amazi bari kwifashisha mu gihe bakurikiye inama.

Inzu mberabyombi yicayemo abantu ingeri zitandukanye, ni abantu batandatu, abagabo bane ndetse n'abamama babiri, bose bambaye udupfukamunwa.

Itsinda ry'abantu benshi batandukanye, bicaye batuje, imbere yabo hari umugabo uhagaze abareba ufashe mikoro, ndetse birasa nk'aho ari kubabwira imbwirwaruhame, imbere yabo hicaye umwana mutoya.

Umwana muto uri ku ivomero, afite icupa ry'amazi birasa nkaho ashaka kuvoma ayo mazi, uwo mwana afite imisatsi izinze ndetse yambaye agakanzu gasa nkaho kamubereye.

Icyumba basuzumiramo abarwayi, kirimo umurwayi wambaye agapfukamunwa, ndetse hakabamo n'umuganga na we wambaye imyenda y'abaganga, ndetse n'agapfukamunwa. Iruhande rwabo hari Mudasobwa.

Abana bane ubona ko baje ku ivomero rusange kuvoma amazi bashyira ababyeyi. Umwe afashe impombo ari gupomba asa n'uzamura amazi kugira ngo bavome, batahe hakiri kare.

Itsinda ry'abantu bahagaze hamwe, uko bigaragara bahagaze imbere y'izu ivurirwamo abarwayi. Imbere yabo hari icyapa ndetse inyuma yabo hejuru y'umuryango w'inzu, handitseho amagambo avuga ngo salle de conference.

Umwana uri ku ivomero rusange, yateze ibiganza bye, ari kuvoma amazi ari nako ayanywa ndetse hari n'ijambo ryanditse UNICEF.

Icyumba cyabereyemo inama, harimo abantu benshi b'ingeri zitandukanye. Imbere y'abo bantu hahagaze umugabo ufite mikoro mu ntoki ze, usa nk'aho ari gutanga imbwirwaruhame ku bantu bamukurikiye.

Abantu basa nkaho bari mu nama imbere yabo ku meza hateretse amazi ya Nili, muri abo bantu harimo abagabo benshi gusa inyuma turahabona umugore wambaye umupira w'umuhondo.

Itsinda ry'abantu benshi cyane ubona ko bicaye basa nk'aho barambiwe, ni abagore ndetse muri aba bantu bose harimo n'umusaza ubona ko yarambiwe n'abari kumuha serivise.

Ahangaha hari imifuka myinshi cyane iharambitse, hari abadamu babiri bafatanyije umufuka barawuteruye, hari n'undi mugabo uri kubitegereza ubona ko yumijwe n'imbaraga bafite.

Imbaga nyamwinshi y'abantu, ndetse imbere y'iyo mbaga, haparitse imodoka izwi nka ambilanse, ikoreshwa mu gutabara abantu bagize ibibazo by'impanuka, cyangwa se by'ubundi burwayi.

Icyumba kirimo abantu benshi cyane ariko muri abo bantu harimo abagore, abagabo ndetse n'abana bambaye impuzankano isa, birasa nk'aho harimo n'umuzungu, barishimye cyane.

Itsinda ry'abantu ubona bamwe bari guseka, abandi bari kubyina, ubona bishimye cyane rwose. Bambaye amataburiya, imbere yabo hari umugabo wambaye ikoti ndetse n'amarinete, birasa nk'aho ari umuzungu.

Itsinda ry'abaforomo n'abaganga, gusa muri iryo tsinda harimo umugabo umeze nkaho atari umwirabura, ni umuzungu yambaye ikoti, yambaye karuvati ndetse n'amadarubindi.

Uyu ni umuganga usa nkaho ari gutera umwana urushinge, umubyeyi uteruye umwana urabona ko asa nkaho yagize ubwoba bw'urwo rushinge bari gutera umwana we.

Icyumba kinini cyabereyemo inama, birasa n'aho iyo nama yavuze ku bintu bigendanye n'ubuzima. Imbere y'abo bantu hicaye abandi bantu batandukanye, harimo n'umugabo.

Aha ni ku ivomero rusange, hateraniye abantu benshi cyane baje kuvoma amazi, hari n'ibivomesho byinshi bitondekanye ku murongo ubona ko iri vomo ryitabirwa cyane.

Ni ku ivomo rusange, aho hahurira abantu benshi, aha ngaha rero hari umubyeyi uri gupompera umwana ku ivomero, maze umwana na we agafata ibido akayishyira ku mugezi kugira ngo ijyemo amazi.

Umwana uri guseka, ari ku ivomero rusange ubona ko rifite amazi meza, umwana yateze ikiganza ameze nkaho ashaka kunywa kuri ayo mazi ndetse afite n'umusatsi.

Imbaga nyamwinshi y'abantu, ubona ko bari gusobanurirwa ibintu byinshi bitandukanye, imbere y'abo bantu, hari umugabo uhagaze ufite igitabo mu ntoki ndetse n'ikaramu, umeze nk'aho ari gutanga imbwirwaruhame.

Uyu mudamu birasa nk'aho yihaye imizigo myinshi rwose. Yikoreye indobo y'umweru ku mutwe ndetse mu biganza bye afashemo n'indi ndobo isa umuhondo.

Itsinda ry'abantu bicaye batuje, imbere yabo hari abandi bagabo bicaye bameze nk'abayobozi bayoboye iyo mbaga ndetse bakaba bari gutanga ikiganiro kuri abo babakurikiye.

Abantu benshi bahagaze ndetse hari n'abandi imbere yabo basutamye, ndetse harimo n'abavangavanze bambaye amataburiya y'umweru, abandi bambaye amashati y'umukara.

Ni ku ivomo rusange, aho amazi bigaragara ko ashobora kuba yirirwa ameneka, hari umwana uri kuvoma amazi mu gikombe, ubona ko yishimiye ayo mazi.

Umwana useka cyane kandi wishimye ari gukaraba kuri kandagira ukarabe yokandagira ukarabe ifite indobo ndende ndetse ari gukarabira no mubase.

Imbaga y'abantu b'ingeri zitandukanye, abo bantu baratandukanye cyane kubera ko harimo abambaye umweru, abandi bambaye umukara ndetse hari n'umugabo uhagaze uri kuvugira kuri telefone.

Abana babiri, umwana umwe arunamye, ameze nkaho ari gukaraba, undi arahagaze, ari kumwitegereza, afite igikoresho kimeze nk'ijage bari kwifashisha kugira ngo amusukire amazi mu biganza.

Ni ku ivomero rusange, hari umwana ufite indobo ebyiri, biragaragara ko yaje kuvoma, ari guseka ubona ko yishimiye ibyo akora, hari n'ivomo ripompwa kugira ngo bavome.

Ni ku ivomero rusange aho hari ababyeyi babiri, umubyeyi umwe ateze ibiganza kuri rubine ameze nk'aho ari kunywa amazi yunamye, undi na arunamye ari gukaraba intoki.

Abantu benshi cyane bahuriye ahantu hameze nko mu kibuga, hari umubyeyi w'umumama uri gufata impapuro agenda azihereza abantu bari aho ngaho, yambaye ijire, birasa nk'aho akorera ikigo runaka.

Amazi atemba, hahagazemo umumama wagiye kuvoma akoresheje ikivomesho kizwi nk'iduki cyangwa ibido. Iruhande rwe hari umusore uri koza igare.

Ahantu hari ikibuga, cyuzuyemo abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, ndetse muri abo bagabo, harimo abagabo batatu, bahagaze basa nkaho bari kuganira bonyine.

Umwana w'umukobwa wambaye agakanzu, afite imisatsi basa nk'aho baboshye ndetse uwo mwana afite icupa mu ntoki, asa nk'aho ari kuvoma amazi ku ivomero.

Iyi ngiyi ni sale iberamo inama, harimo abantu bagiye batandukanye abagore ndetse n'abagabo, ndetse hari n'amazi ateretse ku meza ku buryo uragira inyota aranywa kuri ayo mazi bityo inama ikomeze igenda neza.

Abana bisa nkaho bari mu irerero ndetse hari n'umupolisi ufite igikombe ari gusomesha kuri uwo mwana hari n'abandi babyeyi basa nkaho bapfukamye bari gusomesha igikoma abo bana bicaye.

Umwana uhagaze imbere ye hari ibase bigaragara ko ari gukaraba intoki kuri kandagira ukarabe, uyu mwana urabona ko ari ikibonke, umwana ni byiza ko twamutoza kujya akaraba amazi meza n'isabune.

Iki ni icyapa cya RBC, kiriho ifoto y'umugabo witwa Dr Sabin Nsanzimana ndetse kuri iki cyapa handitseho amagambo menshi agiye atandukanye.

Umubyeyi w'umu mama uteruye umwana we, imbere yabo hari umugabo uhasutamye, wambaye amarinete ufite n'umusatsi mwiza cyane mwinshi, ubona ko ashaka gutamika uwo mwana ibiryo.

Abana benshi cyane bari guseka, bazamuye amaboko bameze nk'aho bashaka gufata ifoto bishimye, inyuma yabo hari abantu batandukanye, harimo n'abazungu na bo ubona ko baseka bishimye.

Umuganga ufashe urushinge mu ntoki ze, agiye kurutera umugabo usa nkaho ari gushinyiriza, gusa uwo mugabo yambaye agapfukamunwa, yambaye n'umupira wanditseho ijambo RBC.

Aha ngaha hari ivomo rusange, hari abana baje kuvomera ababyeyi, bazanye utubido dutoya, hirya yabo hari imodoka iparitse, hari n'undi mubyeyi uri kubapompera amazi kugira ngo aze ari menshi.

Uyu mwana ari guseka, urabona ko ari kuri kandagira ukarabe, ashaka kuvoma amazi ariko ari kureba nk'umuntu ushaka kuyiba, ubona ko afite inyota.

Umwana uri ku ivomo rusange, ari gukaraba ibiganza bye, ubona ko yashishikaye rwose! Ni byiza ko abana bacu barya bakaraba amazi, bakayakaraba ndetse n'umubiri wose.

Abana babiri baje ku kidengazi cy'amazi, bazanye amabido baje kuvoma kuri ayo mazi. Iruhande rwabo hari ahantu hari ibyatsi byinshi cyane bisa n'aho batabyahira.

Iki cyumba urabona ko kirimo ababyeyi bizihiwe kuko bari kubyina bashayaya, abo babyeyi hirya yabo hari intebe bari bicayeho.

Nii ku ivomo rusange, iri vomo rifite robine enye, harimo uteruye indobo ubona ko yamunaniye ariko arashaka kuyiyikoreza.

Umwana uri ku ivomo birasa nkaho ari gushyiramo imbaraga azamura rubine kugirango avomere rimwe kandi avoma amazi menshi uwo mwana yambaye umupira wumuhondo ndetse n'ikabutura y'umukara.

Abaganga ndetse n'abandi bantu bari gufata ifoto kuko bahagaze neza ku murongo, muri abo bantu harimo n'abazungu, inyuma yabo hari inzu iriho icyapa cyanditseho ngo gira ubuzima.

Icyumba cyabereyemo inama, muri iyo nama hitabiriye abantu b'ingeri zitandukanye gusa abenshi baricaye n'ubwo hagati yabo hahagaze umubyeyi w'umumama uri kubabwira imbwirwaruhame.

Umwana uhagaze ahantu hareretsemo amazi afite akabido asa nkaho ari kuvoma kuri ayo mazi yaretse muri icyo kidengazi ndetse umwana ubona asa nkaho yananiwe.

Icyumba cyahuriyemo abantu b'ingeri zitandukanye, birasa nkaho bababwiye ko bazaza bafite amakayi yo kwandikaho ibyavugiwe mu nama, kuko bose bafite amakayi bari kwandikaho ibiri kuvurwa.

Iki cyumba ni ishuri ryigirwamo n'abana, urabona ko hari abana babiri bicaye, bishimye cyane. Umwana umwe yamanitse akaboko, birasa nk'aho hari ikintu ashaka gusubiza ugiye kumubaza.

Aha ngaha hari ivomo rusange, hari ababyeyi babiri, uko bigaragara umubyeyi umwe yateze igitambaro mu mutwe, afashe ibido mu ntoki ari kuvoma, hirya ye hari undi nawe uri kuvoma.

Iri ni ivomero rusange, aho risa nkaho ryubatswe na UNICEF, hari abamama batanu baje kuvomera kuri iryo vomo, bafite indobo ndetse kuri iryo vomero hari icyapa cya UNICEF.

Abantu b'ingeri zitandukanye ubona basa nk'aho bahuriye mu kintu kimeze nk'urugaga, bahuriye hamwe kugira ngo bakore umuganda batera indabo ndetse n'imboga.

Umugabo usutamye asa nkaho afashe umwana we amushyira ku munzani, kugira ngo barebe ibiro uwo mwana afite. Birasa nkaho uwo mugabo akunda umwana we, bitewe nuko amufashe neza yishimye.

Icyumba kirimo abantu b'ingeri zitandukanye, gusa higanjemo abagore ndetse n'abakobwa, biragaragara ko aba bagore bishimye ndetse bafite ikiganiro kiryoshye.

Ni ku ivomero aho hari umukobwa uri guseka wunamye ari kuvoma amazi, afite indobo ari kuvomeramo ariko hari n'amabase hirya ye hari imyenda ihanitse ndetse n'inzu ihubatse.

Iki cyumba kicayemo abantu babiri. Birasa nk'aho umwe ari umugabo, aricaye, ameze nk'uwihebye kuko yifashe mu gahanga arunamye.

Uyu mugabo yakambije isura bigaragara ko ari kurira kuko afite amaso yuzuyemo amarira ndetse amarira ari gutemba ku mubiri we.

Umudamu uri guseka kandi ubona aseka neza cyane rwose. Yicyaye muri butike, yambaye ijire ya MTN, birasa nk'aho acuruza amayinite ndetse akanohereza amafaranga akoresheje terefone.

Inzu nziza cyane isize amabara gusa muri ayo mabara harimo ibara ry'umweru ubona ryiganje, iyi nyubako ni etaje, ifite amadirishya manini cyane.

Ihuriro ry'abantu benshi batandukanye ndetse bishimye, birasa nk'aho hari igikorwa bari bamaze gukora kuko bigaragazwa n'igipapuro kimeze nk'aho ari seretifika bari bari kwifotorezaho.

Ahangaha ha umugabo ubyibushye, birasa nkaho yaje kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, ubona ko yababajwe n'ibyahabaye.

Abana benshi cyane ubona ko baseka cyane kandi bishimye, muri abo bana harimo abambaye inkweto, harimo n'undi umwe utambaye inkweto, gusa ni byiza ko twajya twambika abana bacu inkweto bikabafasha kutangirika ibirenge.

Umubyeyi uhetse umwana ari kumwe n'undi mwana, basa nk'aho bari guteka. Umubyeyi arishimye cyane, ari guseka ndetse n'umwana ari kumwenyura, ari guseka.

Icyumba kinini cyane, kirimo imbaga y'abantu benshi, abo bantu harimo abahagaze, ariko imbere yabo hari n'abasutamye, ubona ko bari gufata ifoto y'urwibutso, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho UNICEF.

Umugabo cyangwa se umusore birasa naho afite ikibazo k'ihungabana, yicaye yigunze, afite ibintu byinshi cyane mu ntoki ndetse yambaye n'ibicocero.

Icyapa kigaragaza abantu batandukanye basa nk'aho bari gukora umuganda, harimo abirabura ndetse n'abazungu, ubona ko bafatanyirije hamwe igikorwa cy'umuganda.

Umusore usa nkaho yagize ikibazo cy'ihungabana, cyangwa se bamwe bakunze kwita ko bafite uburwayi bwo mu mutwe, kuko afite ibintu byinshi bisa nabi mu ntoki ndetse yambaye n'ibicocero.

Imbaga nyamwinshi y'abantu, ubona ko banezerewe cyane rwose, hari n'umwana, ndetse abo bantu bose bafite amadarapo y'igihugu cy'u Rwanda, bigaragara ko baje kwamamaza ishyaka rya FPR inkotanyi.

Iki ngiki ni icyumba kiza cyane cyahuriyemo abantu, ni imbaga nyamwinshi, harimo abagabo ndetse n'abagore. Hagati yabo harimo umubyeyi uhagaze ari kubagezaho ikiganiro.

Itsinda ry'abantu bicaye, bameze nkaho hari ibintu bari kuganiraho gusa muri abo bantu hari n'abandi bahagaze, ariko abicaye bambaye udupfukamunwa.

Iri ni itsinda ry'ababyeyi benshi cyane, biragaragara ko bishimiye igikorwa barimo ndetse barahagaze, hagati yabo hari n'umuzungu ndetse hari n'amazi bari kwifashisha banywa kugira ngo bataza kugira inyota.

Iri ngiri ni itsinda ryabantu batandukanye ubona ko bahurijwe hamwe n'igikorwa cyingenzi, muri abo bantu harimo umuzungu w'umumama uhagaze iruhande ndetse hagati y'abo bantu harimo umupapa wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ishati y'umweru na karuvati.

Umuntu wicaye yihebye, arasa nk'aho aziritse ku giti, uyu muntu yarakaye cyane, ubona ko ashobora kuba yaragize ikibazo cy'ihungabana, bigatuma yangirika mu mutwe.

Umugabo uhagaze ameze nk'aho ari kumwenyura ubona ko abyibushye yambaye ishati nziza cyane y'amaboko, ndetse uwo mugabo afite ubwanwa ariko nta musatsi afite.

Umubyeyi ubona yicaye ku gatebe ka gasongabugari, ubona ko yigunze ashobora kuba afite ibibazo byinshi bitandukanye, akaba ari yo mpamvu ubona yarakaye atari guseka.

Umukobwa mwiza cyane wicaye mu ntebe yegamiye ari guseka afite mu maso heza, mu gatuza ke yambayemo isakapurayi ndetse yambaye n'agasengeri k'umukara n'ipantaro y'ikoboyi.

Umubyeyi wicaye ku ntebe, afashe indangururamajwi mu ntoki, ubona ko afite ijambo ariko kugeza ku bamukurikiye. Iruhande rwe hicaye umugabo ubona ko ari kwirebera ku ruhande yabyirengagije.

Sare nini irimo abantu ingeri zose gusa muri abo bantu harimo abagabo, abagore, ndetse hakaba harimo n'abakuze harimo umusore usa nkaho yarambiwe kwicara ariko arakurikiye ibiri kuvugirwa muri iyo nama.

Umugabo ubona ko bisa nkaho afite ikibazo k'ihungabana kuko yambaye ibicocero ndetse biragaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe.

Abantu benshi ubona ko bavanze n’abapolisi, umwe muri abo bapolisi ari kugenda avugira muri mikoro, abandi ba polisi bafite icyapa cyanditseho amagambo ngo: "Kurwanya ihohoterwa ni inshingano yanjye.“

Urubyiruko rwihurije hamwe, birasa nk'aho baje mu nama, bose barakurikiye uri kubabwira imbwirwaruhame. Bambaye imipira y'umukara bose.

Uyu mugabo afite ikibazo cy'ihungabana, kubera ko yicaye ku mukeka yafashe mu gahanga ndetse birasa nkaho aziritse amaguru. Ni umugabo ubona nkaho ari imfungwa.

Iki cyapa gishushanyijeho umusore ndetse n'umukobwa, bisa nk'aho uwo musore ari gukurura umukobwa ndetse iki cyapa cyanditseho amagambo mu ibara ry'umukara.

Abantu bicaye ku ntebe zisa umweru, basa nk'aho baje gusobanurirwa ibigendanye n'ubuzima. Hari ikimodoka kinini kihaparitse, ubona ko abaganga ari cyo bari gukoresha.

Umuntu wicaye ubona ko yambaye imyenda y'ibicocero, iruhande rwe hari amacupa, ubona ko uyu muntu afite ikibazo cyo mu mutwe kubera ko yambaye n'ibintu byacitse.

Umubyeyi wicaye ku ntebe, afite imisatsi izinze, afite mu biganza bye indangururamajwi ubona ko hari ikintu ari kugeza ku bamukurikiye, iruhande rwe hicaye umugabo wamwirengagije.

Umwana w'umuhungu wicaye ahantu hafunganye ubona ko asa nkaho yihebye, nta mwenda yambaye, birasa nkaho bamuziritse akaguru.

Imodoka nini ihagaze ahantu hasa nkaho ari mu kibuga, iyo modoka imeze nk'imodoka itwara ibintu bimeze nk'imiti, iyo modoka ni umweru ndetse iruhande rw'iyo modoka hahagaze umudamu.

Icyumba kirimo abantu benshi cyane, barahagaze, barishimye, bahagaze ku murongo, bimeze nkaho bari gufata ifoto y'urwibutso, bari bari mu nama.

Itsinda ry'abantu batandukanye, hagati y'abo bantu hahagaze umugabo wambaye ishati y'umweru, yambaye ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara yambaye na karuvati, iruhande rwabo hahagaze umugore w'umuzungu.

Aba ni abantu babiri birasa nkaho bari kugirana inama ubona ko umwe yifashe ku itama asa nkaho yumiwe, yambaye ingofero ndetse n'imyenda y'umutuku, undi yambaye imyenda y'umukara yambaye n'amarinete.

Aha ngaha hari umugabo uri kwireba mu ndorerwamo, asa nkaho ari gusukura amenyo ye. Yambaye umwenda w'umukara, iruhande rwe hari idirishya ririho amarido.

Umusore mwiza cyane ukeye, ubona ko ari guseka, gusa nubwo ari guseka, ari gusukura amenyo ye akoresheje urudodo, ni byiza ko twajya dusukura amenyo yacu buri munsi.

Abana babiri, gusa ni nyuma yabo hari abandi bana batagaragara neza, aba bana bafite uburoso bw'amenyo, ni byiza ko twajya dutoza abana gusukura amenyo bakoresheje uburoso.

Ni icyumba cyo kwa muganga kirimo abaganga babiri, ndetse n'umurwayi baryamishije ku gatanda, bari kumusuzumira amenyo ye, kugira ngo bamenye ikibazo afite.

Umusore mwiza cyane ubona ko afite amenyo y'umweru. Ari kuyasukura akoresheje urudodo rw'umweru kugira ngo akomeze agire amenyo meza, ajye abasha guseka yishimye.

Ni mu cyumba cyo kwa muganga, aharimo abarwayi ndetse n'abaganga, umurwayi umwe ari gusuzumwa indwara yaba afite mu kanwa, kuko muganga yamwasamishije ari kumupima akoresheje agapima mu kanwa.

Inyubako ndende ifite etaje eshatu, biragaragara ko ishobora kuba yakira abantu benshi ndetse imbere yayo hari umuhanda w'amapave.

Uyu mwana ari gusuzumwa ibigendanye n'amenyo ndetse mu bigaragara uno muganga ari kumuha umutimu kanwa, ubona ko umwana yasamye, ariko uyu mwana afite uruhu rwiza cyane.

Umuntu uri gusuzumwa amenyo ndetse muganga urabona ko ari kwifashisha ibikoresho amurebera ko amenyo ye ari mazima cyangwa se niba hari iryo yavanamo ryangiritse.

Uyu musore ari gusukura amenyo ye akoresheje urudodo, ariko uyu musore ari kubikora ari kwirebera mu kirahure kugira ngo atiyangiza amenyo.

Umusore ufite amenyo meza y'umweru afashe akadodo, ari kukanyuza muri ayo menyo, ameze nk'aho ari gusukura amenyo ye kugira ngo akomeze agire isuku.

Aha ngaha ni mu ishuri harimo abanyeshuri bakiri bato ariko ubona ko bishimye, bari kumwe n'abantu bakuru babiri bose bari guseka ubona ko bishimiye igikorwa barimo.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye bya siporo ngororamubiri. Iki cyumba gisize amarangi y'umweru, gifite amatara ari kwaka umweru ndetse kimanitsemo na tereviziyo.

Umuntu mukuru ndetse n'umwana muto, basa nk'aho bari gusukura amenyo yabo bakoresheje urudodo ndetse ubona basa nk'aho bari gushinyiriza.

Icyumba cyiza cyane, gisize amarangi y'umweru, kirimo amatara ari kwaka ibara ry'umweru, harimo intebe eshatu nziza cyane.

Ni mucyumba k'ishuri aho abanyeshuri bose bazamuye ibiganza byabo ubona ko bishimye kandi banezerewe, baricaye mu ntebe ndetse bafite n'ibindi bintu bimeze nka biswi.

Iki cyumba ni icyo kwa muganga kuko turabona harimo ibikoresho byifashishwa na muganga ndetse na muganga uri gusuzuma umwana uryamye ku gatanda, yamwasamishije, amurebera ko afite ikibazo mu menyo.

Umubyeyi w'umumama, ari kumwe n'umwana we, aba bombi bafite imisatsi myiza cyane y'imikara, bafashe uburoso bw'amenyo, bameze nk'abashaka kuborosa amenyo yabo.

Umugabo ufite ubwanwa bwinshi, ubona ko afite n'amenyo adasa neza cyane, ariko ari kuyasukura akoresheje akuma kabugenewe.

Umuganga uri kumwe n'umwana amufashe ku rutugu, bigaragara ko ari kumwereka uburyo icyuma cyo kwa muganga gikora ndetse inyuma y'uwo muganga, hari umuzungu uri kumwitegereza.

Ni mu cyumba cyo kwa muganga, ubona ko harimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa n'abaganga, harimo intebe, ndetse n'ibintu bimeze nka televiziyo, iki cyumba kirimo amarangi y'umweru.

Umumama ufashe urudodo mu ntoki. Ari kurunyuza mu menyo ndetse ubona ko ameze' nk'ubifitoye ubwoba. Yambaye isengeri, gusa urwo rudodo biragaragara ko rusukura amenyo.

Umugabo uri mu cyumba gisize amarangi y'umweru, ni umugabo ufite imvi, yambaye amarinete, hari akantu afite ari kwitegereza, ubona ko bisa nkaho byamucanze.

Umuntu uryamye ku gatanda ko kwa muganga, ari kumwe na muganga, ari kumwereka akadodo ashobora kuzajya akoresha asukura amenyo ye, ndetse muganga yambaye agapfukamunwa na ga.

Umusore mwiza cyane ufite amenyo meza y'umweru, ubona ko ari guseka, yishimye kandi uyu musore yambaye umupira w'umweru.

Icyumba cyiza cyane kirimo udutebe twiza cyane ndetse n'agatanda gasa nkaho baryamishaho umurwayi bakamusuzuma atuje bityo bakabasha kumenya indwara.

Aha ngaha hari umusore n'umukobwa. Umukobwa yambaye umupira w'umweru ndetse n'umuhungu na we yambaye umupira w'umweru. Bafite utudodo bari kujya banyuza mu menyo bayasukura.

Abakecuru babiri basa nkaho bari gukora siporo, umukecuru umwe ari guseka ubona ko yishimiye siporo ari gukora, ndetse afite imisatsi isa nkaho ari imvi.

Abasaza babiri ubona ko bizihiwe, barasa nkaho bari mu misango y'ubukwe, abo basaza bombi bambaye ingofero z'uruziga ndetse umwe muri abo basaza yambaye amarinete.

Umusaza uri kumwe n'umuforomokazi, umusaza arishimye cyane bari kumupima indwara, umusaza yambaye amarineti ndetse n'ishati y'amaboko yayizinze, uyu muforomo na we yambaye imyenda y'abaforomo yabugenewe.

Umubyeyi w'umugore usa n'ukuze cyane. Imisatsi yabaye imvi ndetse ari kumwe n'undi mu mama wambaye amarineti ndetse n'akana ku ruhande, bose bari guseka barishimye.

Uyu ni umukecuru ubona ko afite imvi zabaye uruyenzi ariko aracyakora siporo, ubona ko anejejwe no kuba agikora siporo bikamukundira.

Umukecuru ufashe ikintu kimeze nka bande, birasa nk'aho bashaka kumukorera ibijyanye no gusuzuma umubiri we uko uhagaze, kuko ari kumwe n'umuganga uri kumurebera uko yakwisuzumisha.

Umusaza ufite umusatsi wambaye n'amarinete, ari kuganira n'umwana ubona ko bizihiwe cyane, basa nk'aho bafite umukino bari gukina ndetse uwo mwana afite umusatsi mwinshi cyane.

Iki cyumba kicayemo abantu benshi, harimo abasaza bafite imvi ndetse harimo n'undi musaza wambaye ingofero y'abayisilamu, bigaragare ko ari umuyisilamu ndetse n'undi musaza umeze nk'aho ari kuboha igiseke.

Ni mu cyumba cyo kwa muganga, hari umusaza ufite umusatsi mwinshi ariko ubona usukuye nubwo harimo imvi, yicaranye n'umuganga uri kumusobanurira ibigendanye n'uburwayi bwe.

Ahantu ubona ko hashobora kuba habereye ibirori, hari umugabo uri kuvugira kuri telefone, hari n'umugore uhagaze ufashe akandi kantu mu ntoki, yambaye n'ijire.

Umugabo ubona ko yagize ikibazo k'imvune, gusa uko bigaragara ari kugenda yoroherwa gake gake kubera ko afite umuganga umwitaho w'umuzungu.

Umusaza imvi zabaye uruyenzi, ari kumwe n'umuganga utari umwirabura kuko biragaragara ko ari umuzungu, afite imisatsi miremire, ari kwereka umusaza uburyo azajya agorora iminsitsi ye akoresheje bande.

Ahangaha hari umusaza ufashe icupa risa nk'aho ririmo umuti, iruhande rwe hari umugore, imbere ye hari imashini ndetse uwo mugore yambaye amadarubindi ari kwitegereza uwo muti uwo musaza ari kumwereka.

Umusaza usheshe akanguhe, ubona ko imvi zabaye uruyenzi, yambaye amarineti. Ari kumwe n'umugore we na we ubona ko ashaje na we ufite imvi mu musatsi we. Bameze nkaho hari ibyo bari gusoma ku rupapuro.

Aha hari abantu babiri. Hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru, imbere ye hari umugabo ufite imvi ariko zitari nyinshi, bari kumwereka uburyo azajya akora siporo.

Abadamu babiri, ubona ko bari guseka kandi bishimye cyane, umudamu umwe ari gukata imboga, hari n'undi mudamu wifashe ku itama ubona ko yishimiye ikiganiro.

Aha ngaha hari abantu babiri. Umusaza wicaye mu ntebe ubona ko afite imvi. Ari kwitegerezanya n'umuganga mu maso, uyu muganga yambaye imyenda yabugenewe yifashishwa kwa muganga barimo kuvura abarwayi.

Umusaza usheshe akanguhe ubona ko afite imvi zabaye uruyenzi, iruhande rwe hicaye abana babiri ubona ko bose bafite icyo kurya.

Umubyeyi w'umumama, ubona ko ari kumwenyura, afite agacupa k'imiti mu ntoki, asa nk'aho ari gusuka imiti ashaka kuyinywa, ni byiza ko twajya tunywera imiti ku gihe mu gihe twayandikiwe n'abaganga.

Siporo ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bwa muntu, hano hari abadamu batatu, birasa nkaho bari muri siporo, umudamu umwe yambaye agapira k'umweru, abandi badamu babiri bambaye imipira y'icyatsi gihishije.

Uyu mugabo ubona ko yiyogoshesheje ariko ubwanwa bwo yarabusize ntabwo yabwogoshesheje, ari kumwe n'umukobwa ufite imisatsi yizinze bisa nkaho hari utuntu ari kumusukira mu kiganza tumeze nk'ibinini ndetse uwo mugabo afite igikombe banza agiye kunywa ibyo bini.

Umukecuru usheshe akanguhe ariko afite uruhu rwiza cyane rwose ubona ko aberewe no guseka, ari kumwe n'umudamu ukiri muto, ari kumukoresha imyitozo ngororamubiri.

Umukecuru ugaragara nkaho ashaje birasa nkaho yicaye ahantu mubyatsi ndetse iruhande rwe hari amashyiga atatu ateretseho isafuriya birasa nkaho uwo mukecuru ari guteka.

Aha ngaha ni mu gikoni, aho harimo umukecuru wambaye amarinete, ufite imvi zabaye uruyenzi, ari kumwe n'undi mugore na we usa n'ukuze. Bari guseka, bigaragara ko bafite inkuru bari kuganira.

Umukecuru ubona ko asheshe akanguyehe. Ariko biragaragara ko yariye neza, kuko afite uruhu rutoshye. Afite umusatsi urimo imvi ndetse yambaye amarineti, yipfutse mu maso, afite n'igikombe.

Umubyeyi ubona ko asa n'ukuze, afite imisatsi y'imvi, yakebutse, ari kwitegereza umuganga ufite akuma gasuzuma uko umutima utera ndetse uwo muganga ari guseka.

Ni byiza ko twajya twita ku basheshe akanguhe kuko bibafasha kugira ubuzima bwiza ndetse bakarama, urabona ko uyu mwana w'umukobwa ari kwita kuri uyu musaza kugira ngo akomeze yumve atekanye.

Umusaza n'umukecuru basheshe akanguhe, urabona ko bafite imvi zabaye uruyenzi ariko barishimye cyane, bafite urupapuro mu ntoki, basa nkaho bari gusoma ibintu bibashimishije.

Ni umuganga uri gutanga isomo rigendanye n'uburyo wagorora imitsi yawe, ari kubyereka umusaza wambaye ishati y'umweru, ndetse ubona ko uwo musaza ashaje rwose kuko afite imisatsi y'imvi ya zabaye uruyenzi.

Umukecuru ufite imvi zabaye uruyenzi, yambaye amaherena, ahagararanye n'umukobwa ufite imisatsi myiza y'umukara ndetse ubona ko ari kumukoresha siporo ngororamubiri arusheho kugira ubuzima bwiza.

Umugabo w'umwirabura ari kumwe n'umugore w'umuzungu, ubona bari guseka kandi bishimye, umugabo yambaye amarinete ndetse yambaye n'ishati y'ubururu bwijimye, ubona ko bishimye cyane.

Umusaza bari gukoresha imyitozo ngororamubiri, uyu musaza afite imvi zabaye uruyenzi ubona ko ashaje rwose, uri kumufasha ni umugore wambaye imyambaro y'umukara.

Abamama ubona ko bishimye, bari gusoroma icyayi ndetse bafite n'ikintu kimeze nk'igiseke kinini, kiboshye, bari kujya bashyiramo icyayi bamaze gusoroma.

Umusaza uri gusoma ibitabo, ubona ko ameze nkaho abisoma ariko yibaza n'ibibyanditsemo, yafashe mu gahanga ameze nk'umuntu uri gusenga.

Umusaza wicaye, ufite imvi ndetse n'ubwanwa bw'imvi, afashe igikombe cy'amazi mu ntoki ze, ameze nk'aho ari kunywa ayo mazi, imbere ye hahagaze umukecuru ufite umusatsi w'imvi, wambaye n'amarinete.

Ni mucmba cyo kwa muganga, hari umurwayi wambaye itaburiya birasa nkaho ari kugorora imitsi, kubera ko uyu mugabo biragaragara ko yaragize ikibazo cy'imitsi.

Umubyeyi w'umumama ari kumwe n'umusore mwiza cyane ufite ubwanwa bw'umukara ndetse biragaragara ko ari umuganga, afite icyuma cyifashishwa basuzuma abarwayi.

Umusaza wambaye amadarubindi arasa nkaho yumiwe cyane, ari gusoma ibipapuro bimeze nk'ikinyamakuru ndetse afite n'ikaramu mu ntoki afashe ku kananwa..

Aha ngaha hari umuforomokazi ufite imisatsi yarayizinze, imbere ye hicaye umurwayi wambaye ishati y'amaboko ariko yayazinze, bose bambaye udupfukamunwa.

Aha ngaha hari abantu babiri, ubona ko umwe asheshe akanguhe, gusa ari kwitabwaho n'undi mukobwa ukiri muto, amwereka uburyo azajya agenda atambuka gake gake ananura imitsi.

Aha ngaha ni mu cyumba kwa muganga, hari umusaza ufite imvi mu bwanwa, nta musatsi afite ku mutwe, hari n'umuganga uri kumupima indwara, yambaye impuzankano y'abaganga y'umweru.

Umusaza imvi zabaye uruyenzi, yambaye amarinete ndetse bigaragara ko yaje gusaba serivise, umumama umwicaye imbere birasa nk'aho hari ibyo ari kumusobanurira.

Abantu benshi, gusa muri abo bantu hari abandi babicaye imbere, umwe ni umuzungu, abandi babiri ni abirabura, hari icyapa cyanditseho RBC.

Aha ni mu cyumba cyo kwa muganga, aho basuzumira abarwayi cyane cyane abarwayi barembye, hari abaganga bambaye imyenda yabugenewe ndetse n'udupfukamunwa.

Icyumba kinini cyane, gisize amabara meza y'umuhondo, umutuku ndetse n'umweru, cyicayemo abantu benshi cyane ubona ko bari kwitegereza imbere yabo uri kubabwira imbwirwaruhame.

Aha ngaha hari umuganga uri kuvura umurwayi, kuko uwo muganga afite urushinge ari gutera umurwayi, umurwayi ubona yagize ubwoba ari gushinyiriza.

Uyu muganga birasa naho ari umuyisilamu, afashe urushinge rwe mu biganza ari kurutera umurwayi, ubona ko bose bambaye udupfukamunwa, birasa nkaho ari kumutera urushinge rwa Kovide cumi n'icyenda.

Iki cyapa gishushanyijeho umuntu w'umuganga kubera ko afite ibikoresho byifashishwa n'abaganga ndetse yambaye impuzankano y'abaganga.

Icyumba kirimo abantu benshi gusa muri abo bantu harimo abambaye imipira ijya gusa umutuku, abandi bambaye uko bishakiye, birasa nk'aho bose bari bategetswe kwambara udupfukamunwa.

Icyapa cya RBC, gishushanyijeho abantu bambaye udupfukamunwa, umusaza ufashe inkoni mu ntoki umeze nkaho yunamye, ndetse n'ibiganza bifashe telefone, n'ibindi byapa bigiye bitandukanye.

Aha ngaha turahabona abantu bane, abihayimana batatu ndetse n'umugabo wambaye ikositimu n'ishati y'umweru mo imbere, abihayimana bambaye amavara ndetse n'indi myenda isa.

Aha ngaha biragaragara ko ari mu nzu mberabyombi, kuko ni ahantu hanini hateraniye abantu batandukanye. Imbere yabo hari abamama beza cyane bari kubabyinira. Inyuma yabo hari icyapa cyanditseho ngo RBC.

Abagabo babiri bafatanye mu biganza barishimye cyane kandi baranezerewe, bombi bambaye amakoti ndetse bafite n'ibitabo mu biganza byabo.

Icyumba kinini cyane cyahuriyemo abantu b'ingeri zitandukanye ariko abenshi muri bo bambaye imipira y'umweru ndetse bicaye no ku ntebe z'umweru. Imbere yabo hari urimo utanga ikiganiro.

Iki cyapa kiragaragaraho ifoto y'umwana ndetse n'umuganga, umwana ubona ko yishimiye cyane umuganga urimo kumusuzuma ndetse n'umuganga na we ubona ko yizihiye umwana.

Icyumba cyiza cyane kandi gikeye, kirimo amabara y'umweru. Kirimo amatara meza cyane ari kwaka ibara ry'umweru ndetse iki cyumba ntamuntu n'umwe ukirimo.

Icyumba cyo kwa muganga gisize amabara y'umweru, ubona ko harimo ibikoresho byinshi byifashishwa n'abaganga mu gihe bari gufasha abarwayi ndetse hari na vandarateri.

Iki ngiki ni icyumba cyo kwa muganga. Hari agatanda karyamishwaho umurwayi urembye, iruhande rw'agatanda hari icyuma cyifashishwa bapima umurwayi uko umubiri we wose uhagaze, hirya hari n'irido rikingirije icyo cyuma.

Inyubako nziza iri ahantu heza, ifite amabara agiye atandukanye, umweru n'ubururu, hari esikariye zijya mu byumba byo kuri iyo nzu, ndetse kuri iyo nzu hari icyapa cyanditseho ngo:'' Ikigo nderabuzima cya Tabagwe.''

Inyubako ya etage, ifite imbuga irimo amapave, muri iyo mbuga hahagazemo abantu benshi batandukanye ndetse n'imodoka y'umukara, muri abo bantu ndabona abenshi ari abamama.

Icyumba kinini kirimo intebe nyinshi biragaragara ko harimo vandarateri ndetse hirya ndahabona umuryango usohoka ujya hanze.

Ni icyumba cyo kwa muganga, ariko nta murwayi n'umwe ukirimo, ahubwo harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, bikoreshwa basuzuma abarwayi, kugira ngo bamenye ibibazo bafite mu mubiri wabo wose.

Inyubako nziza cyane iri ahantu hateye neza cyane rwose, imbere yayo hari uduhanda ducamo abantu ubona ko dusize neza sima, hari na jaride hagati muri utwo tuyira.

Aha hari inzu nziza cyane zisize amabara meza cyane y'umweru ndetse n'umuhondo, hari umuhanda unyuze hagati muri ayo mazu, ubona ko hari na jaride n'igiti kirekire.

Aha ni kwa muganga, iki cyumba kivurirwamo umuntu warembejwe n'indwara runaka kuko bamuryamisha kuri iki gitanda, ibi byuma bihari akaba aribyo bifashisha bamusuzuma kugira ngo bamenye uburwayi afite.

Icyumba cyiza cyane, gisize amarangi y'umweru, birasa nk'aho ari icyumba gikorerwamo ibintu bijyanye n'ubuvuzi, aho harimo agatanda bicazaho umurwayi, bamupima uko mu mubiri we imbere hameze.

Inyubako y'amagorofa abiri, ifite amarangi meza y'umweru ndetse kuri iyi nyubako handitseho amagambo agira ati:''SHYIRA DISTRICT HOSPITAL.''

Inzu nziza cyane, isize amabara meza, ifite imiryango na yo myiza ndetse irimo amatara meza cyane y'umweru, isima iteyemo na yo irasa neza cyane.

Aha ni kwa muganga aho abaganga bambaye impuzankano zisa bari gusuzuma abarwayi baje babagana, aba baganga uko ari batatu bambaye impuzankano z'umweru.

Iki ngiki ni icyumba cyo kwa muganga, bigaragara ko nta murwayi n'umwe uri muri icyo cyumba ariko hari imiti ishobora kwifashishwa mu gihe haba haje umurwayi kuri icyo gitanda.

Inzu igeretse kabiri, isize amarangi meza ndetse isakaje amabati meza y'ubururu, imbere yayo hari imbuga nini cyane irimo imodoka ndetse n'abantu batandukanye.

Iki cyumba ni icyo kwa muganga, hari icyuma cyifashishwa basuzuma umurwayi, birasa nk'aho uyu muganga hari umuntu agiye gucisha muri icyo cyuma, bityo amusuzume amenye neza ikibazo afite.

Icyumba gifite amarangi y'umweru ndetse harimo n'ahandi hantu hafite andi mabara, muri icyo cyumba harimo ibitanda byinshi cyane, ubona ko bishobora kuba biryamwaho n'abantu benshi.

Ni icyumba kirimo abantu b'ingeri zitandukanye, imbere y'abo bantu bicaye hari umugabo uhagaze, asa nkaho ari kubaha ikiganiro kigendanye n'ubuzima.

Inzu nziza cyane kandi nini, ifite amabara meza cyane, iruhande rwayo hari akayira k'amapave, kuri iyi nzu hari icyapa cyanditseho ngo: ''Aha bavura amaso.''

Inyubako ngari bisa nkaho ifitemo ibiro byinshi bakoreramo. Iyo nyubako ni ndende ifite amadirishya menshi, iruhande rwayo, birasa nkaho bashaka kuhubaka izindi nyubako.

Iyi nyubako ni inyubako y'ubuvuzi ndetse iruhande rwayo hateye indabo ziconze neza. Iyi nyubako yanditseho ngo ikigo nderabuzima cya Bwerere.

Iki ni icyumba kinini cyane kivurirwamo abarwayi, harimo abarwayi biyoroshe amashuka, birasa nk'aho barembye, harimo n'abandi babyeyi bari kuganira, bimeze nk'aho barwaje abo barwayi.

Inyubako, nziza cyane, isize amarangi, y'umweru, imbere yayo, hari jaride, nziza cyane, hari n'uduhanda tunyuramo abantu, natwo, duteye neza cyane, iyi nyubako, yanditseho ngo, Iniverisite nasiyonari di Rwanda.

Inyubako ndende, imbere y'iyo nyubako hari amadarapo atandukanye, gusa iryo turi kubasha kumenya neza ni idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, iyi nyubako yanditseho King Faisal Hospital.

Icyumba kinini cyane kigaragara neza gifite amabara meza cyane atandukanye n'amatara amurika muri icyo cyumba, urabona ko ari kukigaragaza neza.

Icyumba kinini cyane kimeze nka sale, gisize amabara meza y'umweru ndetse muri iki cyumba harimo amatara meza cyane ari kwaka ibara ry'umweru.

Ni inyubako ndende isize amarangi y'umweru ndetse n'umuhondo. Imbere y'iyo nyubako hari imodoka nyinshi cyane zihaparitse ndetse hari n'imbuga nziza irimo amapave.

Kwita kubafite ubumuga ni ikintu cy'ingenzi cyane, urabona ko nk'uyu mwana ari gufasha uyu muntu uri mu kagare kugira ngo amugeze aho agomba kugera kandi ahagere ku gihe, uyu mugabo uri mu kagare yambaye ishati y'umweru.

Igipangu kinini cyane kiriho na giriyaje, ubona ko mo imbere muri icyo gipangu harimo n'izindi nyubako, kuri icyo gipangu hateyeho icyapa cyanditseho ngo bitaro bya Ruhengeri.

Iki ngiki ni icyumba cyo kwa muganga, ubona ko haryamyemo umurwayi, ararembye cyane rwose, iruhande rwe hari ibyuma bifashisha bavura abarwayi barembye.

Icyumba kinini gisa nkaho kirimo udutanda dutoya gusa muri icyo cyumba harimo n'intebe basa nkaho bicaraho ndetse iki cyumba gifite amarangi meza y'umweru.

Iki cyumba kirimo intebe nyinshi ariko hari n'umugabo wicaye kuri izo ntebe. Hari n'undi mugabo uhagaze kuri reception, asa nk'aho hari ibyo ari kubaza, hari na tereviziyo imanitse ku rukuta.

Aha ngaha hari abagabo babiri bari kuganira, umugabo umwe yambaye ijire yanditseho RBC yambaye n'amarinete, ari gusuzuma undi mugabo na we wambaye ibaji, iruhande rwabo hari icyapa cyanditseho ngo Irembo.

Ahantu hanini cyane, harimo inyubako nziza kandi zibereye kuzireba, harimo jaride nziza cyane, yicayemo abantu bari kuganira.

Iki cyumba kirimo abantu b'ingeri zitandukanye, biragaragara ko ari kwa muganga kuko harimo abarwayi benshi ndetse ndabona n'abaganga harimo n'abazungu.

Icyumba, cyo kwa muganga, kirimo, igikoresho, cyifashishwa, basuzuma umurwayi, iki cyumba, gisize amabara, y'umweru, ndetse kirimo n'amatara, y'umweru.

Aha hantu ni heza cyane, hari inyubako nziza zisize amarangi meza cyane rwose, hagati muri izo nyubako, hari ikibuga cyiza gifite na jaride.

Abantu benshi batandukanye, bamwe barahagaze abandi barunamye, iyi nzu yanditseho amagambo agira ati:"Inzu y'ababyeyi materineti."

Icyumba cyiza cyane kirimo udutebe twicarwamo n'abantu bahicara bategereje ko babakira, harimo ibipirizo ubona ko hashushanyijeho n'ibintu byiza cyane bibereye ijisho.

Icyumba gisize amarangi y'umweru kirimo amatara ari kwaka neza cyane ndetse kirimo n'utwumba tugiye tugabanyijwe n'amarido asa umuhondo.

Icyumba cyo kwa muganga kifashishwa mu gihe habonetse abarwayi barembye cyane, bityo bakamuzana muri iki cyumba kugira ngo bamusuzume bamenye neza ikibazo yaba yahuye na cyo.

Inyubako ubona ko nta muntu n'umwe uyirimo ariko ku ruhande rumwe hariho udusanduku dusa n'uturi ku rundi ruhande, ubona ko ni inzu ifite amatara meza agiye atangaje.

Aha ngaha hari inzu bigaragara ko ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi. Hari umuntu uhagaze, hari n'abandi bicaye ku ntebe. Iyi nzu yanditseho ngo, materineti, inzu y'abarwayi.

Iki ngiki ni icyumba cyiza cyane. Gisize amarangi meza y'umweru ndetse harimo n'intebe zibereye ijisho. Hari n'ijambo ryanditse rigira riti "Reception."

Icyumba kirimo ikindi kintu kinini cyane gikoze nk'ikibogisi, gifite imiryango n'amadirishya, kirasa nk'aho ari umutamenwa ubikwamo amafaranga menshi cyane cyangwa ibindi bikoresho by'ingirakamaro.

Ni icyumba cyo kwa muganga, kirimo agatanda baryamishaho umurwayi bamusuzuma, ndetse harimo n'agatebe kicarwaho n'umuganga, mu gihe ari gusuzuma umurwayi, iki cyumba kirasa neza cyane, kirimo amabara y'umweru.

Iyi ngiyi ni inyubako ya etaje nziza cyane, ubona ko imbere yayo hari ikibuga kirimo umucaca ndetse icyo kibuga ubona ari cyiza cyane, ndetse n'ikirere gihari urabona ko gikeye.

Iki ngiki ni icyumba cy'ivuriro, bigaragara ko bavuriramo abarwayi barembye cyane, harimo abaganga, abadokiteri ndetse bafite ikiganiro bari kuganira.

Iki ni icyumba cyo kwa muganga kirimo udutanda twinshi cyane, harimo n'ibyuma byifashishwa bavura abarwayi harimo n'ibindi bikoresho byinshi bitandukanye.

Aha ngaha hari inzu nziza cyane ibereye ijisho. Isize amarangi meza, ifite imiryango myinshi ndetse n'amadirishya, imbere yaho hari umuhanda wa kaburimbo.

Aha ni kwa muganga aho bakirira abarwayi barembye, hari udutanda ndetse hari n'ibyuma byifashishwa basuzuma abo barwayi baje barembye bityo bikabafasha kumenya neza indwara bafite.

Icyumba kinini cyane kirimo intebe nziza z'imisego, harimo amatara arimo kwaka neza ndetse n'umuryango ufunguye biragaragara nkaho ntamuntu uri muri iki cyumba.

Inyubako nziza ifite idirishya rinini cyane, iruhande rw'iyo nyubako hari akayira gakoze neza, ndetse iruhande rw'ako kayira hari indabo nziza cyane zigaragara nkaho zisukirwa buri munsi.

Iki ngiki n'icyumba cyo kwa muganga kivurirwamo abarwayi, harimo ibikoresho bigiye bitandukanye bifashishwa mu kuvura abarwayi, cyane cyane abarwayi barembye.

Iki ngiki ni icyumba cyo kwa muganga. Gisize amarangi meza y'umweru. Harimo n'icyuma cyifashishwa basuzuma abarwayi barembye cyane, kugira ngo bamenye indwara yabarembeje.

Iki cyumba biragaragara ko ari icyo kwa muganga kuko kiriho agatanda kifashishwa bashyiraho umurwayi warwaye kandi warembye, hari n'akandi kabati gashyirwamo ibintu bigiye bitandukanye.

Uyu ni umuforomokazi wambaye imyenda y'abaforomo. Bigaragara ko ari kuvura umurwayi urembye cyane, aho ari kumushyiramo serumu kugira ngo ibashe kumuvura, ave mu bitaro yakize.

Aha ngaha ni mu cyumba cyo kwa muganga, harimo ibitanda byifashishwa n'abarwayi mu gihe barembye bashaka kuryama, bakaryama kuri ibi bitanda.

Icyumba kiza cyane kirimo intebe nziza cyane zifite amabara atandukanye. Nta muntu n'umwe uri muri icyo cyumba, iki cyumba gisize amabara atandukanye ariko harimo amabara meza y'umweru.

Inyubako bagurishirizamo imiti ivura umuntu warwaye ndetse muri iyo nyubako harimo umumama uhetse umwana utwikiriye igitambaro cy'umweru ndetse ari kumwe n'umwana muto.

Inzu ya etaje ubona ko ari inzu nziza, ifite imbuga irimo umuhanda wa kaburimbo, iyi nyubako yanditseho amagambo agira ati "Medical Research Institute."

Inyubako nziza cyane, ubona ko yubatse ahantu heza, isize amarangi meza cyane y'umweru ndetse imbere y'iyo nyubako hari icyapa, icyo cyapa kiriho amagambo agiye atandukanye yanditswe mu mabara y'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byifashishwa mu buvuzi, ubona ko ibi bikoresho harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa basuzuma umurwayi urembye.

Inzu nziza cyane ifite amarange atandukanye irange ry'umweru ndetse n'irange rijya gusa umukara, ifite igisenge cyiza cyane gifite amabati ubona ko yakozwe neza.

Inyubako ndende y'igorofa ubona ko ari nziza cyane rwose, imbere yayo hari akandi kazu kariho icyapa gifite amabara atandukanye, hari n'abandi bagabo batatu basa nkaho bari kuganira bahagaze imbere y'imodoka.

Umugabo wicaye ku gatebe. Birasa nkaho yishimye cyane. Ariko uwo mugabo yambaye itaburiya, biragaragara ko ari umuganga ndetse kuri iyo taburiya ye hariho ikaramu ndetse uwo mugabo yambaye n'isaha ku kuboko kwe.

Icyumba bigaragara ko basuzumiramo abarwayi, hari umuforomo cyangwa se uwo twakwita umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa k'umutuku ndetse hari n'ibikoresho bifashisha basuzuma abarwayi.

Umuntu wicaye usa nk'aho yagize ikibazo cy'imvune yo mu ivi, ikiganza cye gifashe akantu kameze nka barafu yagashyize kuri iyo mvune ye yo mu ivi kugira ngo yoroherwe.

Abasore babiri ubona ko bakoze siporo, bambaye udukabutura tugufi ndetse n'amasengeri, imbere yabo hari ibikapu gusa umusore umwe aricaye ndetse ubona ko bafite umubiri uteye neza.

Igikapu gifunze neza gifite ibara ry'umutuku ndetse rivanze n'amabara y'umukara ndetse hasi yacyo hari ibara ry'umuhondo. Iki gikapu mo imbere birasa nkaho harimo utwuma tugiye dutandukanye.

Umusore uri muri siporo ubona ko yagororotse, yambaye ipantaro y'umukara, yambaye n'inkweto nziza cyane za siporo z'umukara ndetse n'umupira w'umuhondo.

Umuntu ubona ko asa nk'aho yavunitse, yafashe agatambaro ari kugakandisha ku kuboko kwe kugira ngo yumve ububabare bugabanutseho gakeya.

Umusore uri kunywa amazi wambaye umupira w'umweru ndetse yambaye n'ekuteri mu matwi, birasa nkaho yari afite inyota kuko ari kunywa amazi ubona ko ayashaka.

Umwana w'umukobwa ubona ko ari gukora siporo ashishikaye, yambaye ipantaro imufashe cyane ndetse n'isengeri ngufi, ubona ko yazamuye amaboko ye ayarambuye neza.

Icyapa kiriho ijagi irimo amazi ndetse n'igikombe, hari ikiganza gifashe iyo jagi, kiri gusuka amazi mu gikombe, ubona ko bisa neza.

Umukobwa mwiza cyane, ufite imisatsi miremire izinze, ari muri siporo ubona ko yasobekeranyije amaguru ye yazamuye n'akaboko, imbere ye hari gurude irimo amazi yo kunywa.

Icyapa kigaragaza ibintu bigendanye na siporo gusa kuri icyo cyapa, hariho amafoto agiye atandukanye, nk'ifoto y'umuntu uri gukora siporo, ifoto y'abantu b'abateramakofe ndetse n'ifoto y'umusifuzi, uri guha ikarita y'umuhondo umukinnyi.

Umusore uri muri siporo, ni byiza ko twajya dukora siporo za buri munsi kuko zidufasha kugorora umubiri wacu ndetse tugakomeza kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Aha hari imiti igiye itandukanye ndetse imwe iri mu macupa, indi ipfunyitse mu tuntu tumeze nk'udushashi ndetse turi kuhabona na ga, hari na korogate.

Umugabo ubona ko afite umubiri mwiza cyane, afite icupa ry'amazi ari kuyanywa, ubona ari no kuyimenaho, yambaye umupira w'umukara ndetse uwo mugabo afite ubwanwa bwiza cyane.

Umubyeyi wicaye ahantu hasa nkaho hashashe ibitenge ari kumwe n'umwana we basa nk'aho bishimye bari guseka ndetse iruhande rwabo hari ibikapu.

Iki ni icyumba cyo kwa muganga, kirimo amabara meza y'umweru, kirimo ibikoresho byifashishwa mu buvuzi mu gihe bari gusuzuma umurwayi cyangwa se bari kumusuzumira ku ikoranabuhanga.

Uyu mudamu ari muri siporo. Biragaragara ko yagororotse rwose! Yicaye hasi, yarambuye amaguru ye ndetse n'amaboko ndetse yahese umugongo, bigaragare ko asobanukiwe neza ibintu bya siporo cyane rwose!

Umugabo wicaye ufite ikirenge cyavunitse, umugore uhagaze arimo kumuzirika bande ku kirenge cye gisa nkaho cyavunitse, ndetse uwo mugabo afashe mu manyahina birasa nkaho arimo kubabara cyane.

Iki cyapa kiragaragaza uko bakora imyitozo, yaba imyitozo ngororamubiri ndetse hariho n'utundi twapa tugaragaza abana bari gukina umupira.

Imodoka iri mu muhanda, bishoboka kuba ari imodoka ya ambilance, yifashishwa mu gihe hari ibitaro bigize umurwayi urembye cyane bityo iyi modoka ikabafasha kuba bamutwara byihuse ku bitaro bikuru.

Bari muri siporo, abantu b'ingeri zitandukanye, bambaye imyenda ya siporo, harimo abagabo ndetse n'abagore, ubona ko bashishikaye rwose.

Umwana ufite umusatsi utari mwinshi, afite gurude mu ntoki ze yayitamiye, ikigaragara cyo ni uko ari kunywa amazi ari muri iyo gurude kugira ngo ashire inyota.

Aha ngaha hari imbangukiragutabara, ziteruye umuntu usa nkaho yagize ikibazo cy'imvune cyangwa se cy'ubundi burwayi, inyuma yabo hari abandi bantu bari kubitegereza.

Umusore ubona ko asa nk'aho avuye muri siporo kuko ari kunywa amazi ari mu gacupa kandi ubona ko yari afite inyota nyinshi, akaba ariyo mpamvu ari kuyanywa ashishikaye.

Aha ngaha hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, hari icyo tuzi nk'isizo, andi macupa arimo imiti yifashishwa mu buvuzi na bande na ga ndetse n'ibindi byinshi.

Iki gikapu ni cyiza cyane rwose, gipakiyemo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo ibitabo, amacupa arimo amavuta ndetse n'udukarito tugiye turimo ibintu bitandukanye.

Aha ni kwa muganga hari umurwayi uri gusuzumwa na muganga ndetse muganga ari gukanda ku cyuma kugira ngo abashe gusuzuma umurwayi neza, muganga yambaye agapfukamunwa ndetse na ga.

Icyapa kiriho ibikoresho by'ubutabazi bw'ibanze ndetse kiriho n'akantu gasa umutuku gashushanyijeho umusaraba, handitseho ijambo ngo FIRST AID.

Aha ngaha haragaragara, abantu babiri bari muri siporo ngororamubiri, birasa nk'aho bari kwiruka. Bafite amacupa arimo amazi, bifashisha bari muri siporo.

Uyu muntu birasa n'aho ari gukora siporo, yambaye imyenda myiza ya siporo, kora y'umukara ndetse n'agapira k'umukara, ubona ko afite imisatsi izinze.

Umuntu wicaye usa nk'aho afite igipfuko ku ivi rye, ndetse icyo kipfuko aragifashe, birasa nk'aho ari kubabara kuri iryo vi, gusa umuntu wavunitse ivi, aba agomba gufashwa kugira ngo adakomeza kubabara.

Utwuma twifashisha muri siporo mu gihe umuntu akeneye kugorora umubiri we, iruhande rw'utwo twuma hari imbuto ushobora kurya usoje gukora siporo, harimo imbuto, harimo n'amagi ndetse n'ibindi bitandukanye.

Uyu mukobwa ari mu myitozo ngororamubiri. Yahese umubiri we amaboko ye ayafatishije ku kirenge ndetse ubona ko ari gukora siporo ashishikaye.

Ibinini by'ubwoko butandukanye, biri kumwe n'urushinge rurimo umuti. Ibi binini bifasha umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi ku gukira neza.

Agasanduku karimo imiti ishobora kwifashishwa n'umuganga, igihe agiye gufasha umurwayi, harimo n'imakasi ishobora kwifashishwa mu gihe arimo kuvura uwakomeretse.

Uyu musore yicaye mu kibuga, yambaye isengeri ndetse n'ikabutura, biragaragara ko yari ari muri siporo, kuko umubiri we urabona ko wagororotse, birasa nk'aho yababaye kuko ari gukanda ikibero cye.

Umukobwa uri gukora siporo urabona ko abizobereye rwose, yambaye imyenda ya siporo afite imisatsi myiza y'imikara arunamye yafashe munsi y'amano, ibiganza bye ikiganza cye kiri inyuma y'umugongo.

Umusore uryamye hasi, aziritse akaguru kamwe akandi gasa nk'agahinnye. Biragaragara ko ari mu cyumba cya siporo, aho arimo gukoresha ibyuma byifashishwa muri siporo.

Igikoresho gikoreshwa n'umuntu wavunitse, kikaba gitangwa n'umuganga ndetse muganga ni na we ucyambika umurwayi kugira ngo amenye ahavunitse aba ariho akimwambika.

Icyapa kiriho ibinini byifashishwa nk'imiti ivura abantu indwara, hariho n'urushinge ruba rurimo umuti bakawutera umurwayi urwaye ,bityo akamererwa neza, hari n'amagambo yanditse avuga ngo Sports Pharmacy.

Umukobwa uri muri siporo yicaye hasi, afite umusatsi w'umukara yambaye agasengeri k'umukara, yambaye na kora y'umukara ndetse yambaye n'inkweto nziza za siporo z'umweru, yambaye na ekuteri, iruhande rwe hari icupa ririmo amazi.

Uyu musore biragaragara ko yakoze siporo, afite igituza kinini rwose, afite n'akaboko kabyibushye, yambaye ekuteri, afashe n'icupa ry'amazi agiye kunywa amazi.

Umuntu uri muri siporo yambaye ipantaro y'umukara, ndetse yambaye n'inkweto zirimo umutuku n'umweru, imbere ye hari agacupa bigaragara ko harimo amazi yo kunywa.

Umugabo ufite ubwanwa bukeya, afite icupa ry'amazi ameze nk'aho ari kunywa amazi ari muri iryo cupa, birasa nk'aho yari afite inyota ndetse ayo mazi bigaragara ko aramumara inyota.

Icyumba cyo kwa muganga, ubona ko kirimo abaganga ndetse n'abarwayi, hari n'undi mugabo wambaye ikote, ubona ko bari kwitegereza umuntu uri kubabwira imbwirwaruhame kuri televiziyo.

Umukobwa ufite umubiri mwiza cyane, birasa naho ari muri siporo. Yambaye inkweto nziza za siporo, yambaye agakabutura kagufi ndetse n'agasengeri kagufi.

Yicaye ku gatanda gatwarwaho abagize ikibazo cy'imvune, ibigaragara uyu muntu yari ari muri siporo, nyuma yaho aza kugira ikibazo cy'imvune, ananirwa kugenda, bamushyira kuri aka gatanda.

Umusore ubona afite ibigango, arabyibushye cyane, ari kunywa amazi birasa nk'aho avuye muri siporo, yambaye isengeri, dore ko isengeri igufasha gukora siporo wumva utekanye.

Aha ni mu cyumba cya siporo, ubona ko hari umusore ufite agatuza kabyimbye ndetse n'amaboko ye ubona ko yitabira umwitozo ngororamubiri buri munsi, iruhande rwe hari umuzungu ubona ko amutoza.

Umusore ubona ko ari guterura icyuma, muri iki cyumba birasa nkaho hakorerwamo siporo ndetse bagira ngo bagorore umubiri, siporo ni ikintu k'ingenzi cyane, dusabwa kujya dukora siporo buri munsi.

Abantu batandukanye basa nkaho bari gukora siporo ngororamubiri, urabona ko umwe usa n'umuzungu ari gufasha undi usa n'umwirabura kugorora amaguru ye, ubona ko asa nkaho ari kumufasha kugira ngo agororoke.

Umuntu wicaye ndetse n'umuganga uhagaze, bigaragara ko muganga ari gukandira uwo muntu mu ivi, uko bigaragara ko uwo muntu yari yagize ikibazo cy'imvune.

Uyu ni umukobwa uri kunywa amazi, afite imisatsi miremire, yambaye ekuteri mu matwi ye, yambaye umupira w'umutuku, ni byiza ko twajya tunywa amazi buri munsi.

Iki ngiki ni icyumba cyo kwa muganga, kiri kuvurirwamo umuntu wagize ikibazo cy'imvune ndetse ubona ko bamushyizeho ibimufasha kugorora amaguru ye, ari kumwe n'umuganga uri kumwereka uko abikora.

Uyu mugabo ari kugorora amaguru ye ndetse n'amaboko. Biragaragara ko ari muri siporo ngororamubiri. Ni byiza ko twajya dukora siporo ngororamubiri, kuko bituma dukomeza kugira ubuzima bwiza.

Igikoresho gikoreshwa kwa muganga, mu gihe barimo gusuzuma uko ubuzima bw'uburwayi buhagaze. Iki cyuma, kigenda kigaragaza imibare, ibi bikaba bimenywa n'abaganga bonyine.

Uyu mugabo ari gukandakanda ivi rye, rishobora kuba ryagize ikibazo ari muri siporo, yambaye impeta mu rutoki rwe ndetse yambaye n'isaha ku kuboko n'umupira w'umweru.

Ni imbuto nyinshi cyane, harimo amarongi, imineke, pome ndetse n'ibindi bimeze nk'ibitunguru, hari n'umugore uri gukora siporo bakunze kwita pompaje, ari guseka.

Abasore bane ubona ko bari muri siporo. Birasa nk'aho bashishikaye kandi ubona wagira ngo bari mu masiganwa. Bambaye imyenda myiza ya siporo.

Umuntu ufite inyota ari kunywa amazi ndetse biragaragara nk'aho yari afite inyotayi nyinshi cyane ndetse uwo muntu birasa nk'aho ari urukara cyane ku buryo iryo cupa afite ari ryo ririmo kugaragara neza.

Iki cyapa kiragaragaza umugabo usa nk'aho ari umuzungu n'undi mugabo w'umwirabura, ufite ikintu gisa nk'aho ari umutuku, hirya ye hari undi mugabo wambaye agapfukamunwa ndetse usa nk'aho ari kwitegereza ibindi bintu ku ruhande.

Umuntu wahuye n'ikibazo cy'imvune bari kumwitaho, aricaye birasa nkaho yagize iki kibazo ari muri siporo, ni byiza ko twajya dufasha abantu bahuye n'ikibazo cy'imvune.

Umusore mwiza cyane ukeye, yambaye ipantaro y'umukara n'inkweto nziza za siporo, yambaye n'agapira ka siporo, ari kunywa amazi, afashe telefone ye mu ntoki, yambaye n'isaha.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye isengeri ndetse na kora, yahinnye amaguru ye ndetse yafashe mu birenge bye, ari kugorora umubiri we.

Umugabo usa nk'aho ari gusimbuka, ameze nk'aho ari gukina umukino runaka kuko bigaragara ko afite umupira ndetse uyu mugabo yambaye inkweto z'umukara, umupira w'umweru n'ikabutura y'umukara.

Umuganga ubona ko ari kumwe n'umurwayi, uwo murwayi yambaye sentire bisa nk'aho atayifunze neza, birasa nk'aho muganga ari kumwerekera uburyo yagorora imitsi ye.

Aka ngaka ni akadege gato kazwi nka Dorone, kifashishwa mu gutwara amaraso kayavana ku bitaro bimwe, kayajyana ku bindi kugira ngo bafashe abarwayi kongera kugarura ubuzima bwiza.

Abagabo batatu gusa muri abo bagabo, uri hagati birasa nkaho yambaye kasike, ndetse ni umukinnyi, birasa nkaho yavunitse...

Aka ni agatanda gakunda gukoreshwa muri sitade, batwaraho abakinnyi bagize ikibazo k'imvune ku buryo batasubira mu kibuga gukina.

Umugabo uhagaze umeze nk'aho ari gukora siporo, afite ibizigira yakoze umubiri rwose! Umubiri we umeze neza cyane, ufite imbaraga nyinshi.

Amaboko maremare, umuntu asa nk'aho yayafatanyije muganza bye, afite imisatsi miremire izinze ndetse birasa nk'aho yaziritseho bandana.

Umuforomokazi wunamye usa, nk'aho ari kongorera umurwayi ibyo akora kugira ngo ananure imitsi ye, uwo murwayi ateruye akantu kazwi nka ariteri, ari guterura kugira ngo ananure imitsi ndetse n'umubiri.

Icyapa gishushanyijeho umuntu usa nk'aho ari kwiruka, bishatse kuvuga ko iki cyapa gisobanuye ibintu byinshi bigiye bitandukanye bishobora kugufasha kugirango ukomeze ugire ubuzima bwiza ndetse n'amaraso yawe akomeze atembere neza mu mubiri.

Agakoresho kifashishwa n'abaganga, bapima umuntu ikibazo kigendanye n'uko umutima utera, baragafata bakagashyira mu matwi ndetse ku wundi mutwe wako kuma, bakawushyira ku mutima w'umuntu, bakumva uko umutima utera.

Utu ni utubati tubitswemo ibintu bimeze nk'udukarito turimo imiti ivura abantu indwara, biragaragara ko ari imiti igiye itandukanye ndetse ivura indwara zitandukanye

Akagare gafasha umuntu ufite ubumuga bwo kutabasha kugenda, aka kagare ni ingenzi cyane ku bantu bagize ubumuga, kuko kabafasha kugera aho batabasha kugera n'amaguru.

Ibikoresho bya siporo bigiye bitandukanye, gusa muri ibyo bikoresho bya siporo bavanzemo akuma gakoreshwa n'abaganga bapima uko umutima w'umuntu utera.

Ni igikapu cyiza cyane gishobora gutwarwamo ibintu bigiye bitandukanye, harimo imakasi ndetse n'ibindi bikoresho bishobora kwifashishwa mu gihe umuntu yakoze urugendo.

Amacupa arimo imiti igiye itandukanye, ariko muri ayo macupa harimo asumba ayandi, biragaragara ko aya macupa arimo umuti ugabanya uburibwe, kuko handitse ijambo ngo "Pain Relief".

Umusore ufite umubiri uteye neza bitewe n'uko akora siporo ngororamubiri, ari kunywa amazi ubona ko yari afite inyota nyinshi cyane.

Icyumba cyo kwa muganga cyifashishwa basuzuma umuntu ikibazo yaba yagize mu mubiri we wose bityo bamufashe kumuvura ndetse banamenye ikibazo afite.

Iki ni icyumba cyo kwa muganga cyifashishwa basuzuma umurwayi ikibazo yaba yagize mu mubiri, iyi ni imashini yifashishwa banyuzamo umurwayi kugira ngo bamusuzume neza.

Iki cyumba ni icyo kwa muganga, cyicayemo umwana ubona yagize ikibazo cy'imvune, kuko bamupfutse amaguru ye yombi, hari umuganga uri kumufasha kumushyiriraho igipfuko kugira ngo amererwe neza.

Ibyatsi bigiye bitandukanye ariko bimwe muri ibyo byatsi biratohagiye cyane birasa nk'aho bagiye babisukira amazi kugira ngo bikomeze bigire ubuzima bwiza.

Imiti gakondo ifasha mu kuvura abantu indwara zigiye zitandukanye. Aha turahabona imiti itandukanye, ndetse ubona bari gusekura kugira ngo bayivurishe abantu bahuye n'ikibazo cy'uburwayi.

Iki ni igihingwa gitoshye cyane rwose, biragaragara ko cyasukiriwe kandi kigahingwa mu butaka bwiza cyane bityo kikaba kigaragara neza.

Ahangaha hari amakarito agiye atandukanye ndetse afite amabara atandukanye, birasa naho ayo makarito apfunyitsemo imiti yifashishwa mu kuvura abantu indwara.

Amacupa atatu agiye atandukanye ndetse ateretse ahantu hamwe. Birasa n'aho amavuta arimo atandukanye ndetse ano macupa nayo ntabwo angana. Icupa rimwe ni rirerire, irindi ni rigufi ndetse iriri hagati na ryo urabona ko ari mwayene.

Uyu ni umuti gakondo wifashishwa bavura abarwayi, urabona ko ukoze mu fu, ndetse iyi fu iraseye cyane rwose.

Ibi ngibi ni ibimera bitohagiye cyane, birasa nk'aho babisukira amazi buri gitondo bityo akaba ari yo mpamvu bifite ibara ry'icyatsi gitohagiye cyane

Aha ngaha hari ibyatsi bisa nk'aho byumye, biri mu tuntu tumeze nk'aho tubaje mu biti ndetse hari n'akandi kantu kameze nk'umuhini, bameze nk'abari gusekuriramo ibyo byatsi.

Amacupa ane bisa nkaho arimo amavuta yo kwisiga gusa icupa rimwe ni rirerire risumba ayandi macupa kandi ayo macupa yose yanditseho ijambo foreva...

Aha ni mu isoko ry'ibintu bitandukanye, gusa haragaragara imbuto ndetse n'amacupa arimo ibintu bigiye bitandukanye ndetse iruhande rwaho hari umugabo uhagaze usa nk'aho ari kwibaza ibintu bigiye bitandukanye.

Iki ngiki ni ikimera cyiza cyane kimeze nk'inyabarasenya, ifasha abantu bagize igikomere ku mubiri wabo, bakakivuguta bagatonyangirizaho maze kikabafasha kumisha igisebe.

Amacupa menshi cyane ari mu gikarito, ubanza aya macupa arimo amavuta bisiga kuko buri cupa rishushanyijeho igihingwa kizwi nk'igikarubamba, gifasha umuntu kugira uruhu rwiza.

Amacupa agiye atandukanye ashobora kuba arimo amavuta. Iruhande rwayo hari utukarito natwo dusa nkaho hari ibipfunyitsemo bimeze nk'amavuta yo kwisiga.

Aha ngaha hari ishyamba rinini cyane, harimo igiti kirekire cy'amashami menshi ndetse n'ibyatsi byinshi cyane, hari ikirere gikeye cyane.

Ikibabi gitohagiye cyane birasa nk'aho hejuru yacyo hateretse ibintu bimeze nk'ibinini bishobora gufasha umuntu mu gihe yagize ikibazo cy'uburwayi.

Aha ngaha hari udukarito tw'amoko atandukanye ndetse hari n'urubuto rw'imineke ndetse utu dukarito dufite amabara agiye atandukanye.

Aha ngaha hari amacupa y'amavuta, ubona ko aya macupa afite amafoto ayashushanyijeho y'igikakarubamba.

Aha hari igihingwa kiza gitoshye rwose, hari ikiganza gifashe kuri icyo gihingwa, ubona ko ugifashe yatangajwe n'uburyo gitoshye.

Aha hari imiti gakondo iri mu macupa, haragaragara n'umugore uri imbere y'ayo macupa wambaye na baji n'igitambaro mu mutwe, imbere ye hari umugabo wambaye ishati n'ipantaro aratebeje basa nk'aho bari kuganira.

Iki ngiki ni ikimera cyiza cyane, ubona ko bashobora kuba bagisukira buri munsi. Bityo bigatuma gikomeza kugira amababi atoshye abereye ijisho.

Icupa ryanditseho Forever dialy, iri cupa rirasa umweru ndetse ubonako ari rirerire, ubanza ririmo amavuta meza cyane, ahumura.

Ibi byatsi biratoshye cyane, birasa nk'aho babifumbira ifumbire nziza y'imborera kugira ngo bikomeze bigire ibibabi biteye neza bibereye ijisho.

Aya ni amacupa menshi cyane agiye atandukanye, harimo amacupa ay'umweru, umuhondo, icyatsi ndetse hakaba harimo n'amacupa y'umutuku.

Aha ngaha hari amacupa ane, gusa muri ayo macupa harimo icupa rirerire ryanditseho, lnfinite ndetse hari n'irindi rigufi na ryo ryanditseho ifinitie.

Icyapa kiriho udusanduku dugiye dutandukanye turimo, amacupa arimo amabara agiye atandukanye gusa ikigaragara ayo macupa arimo umuti ushobora kuvura umuntu, ukamukiza indwara afite.

Aya ngaya ni amacupa y'ubwoko butandukanye, birashoboka ko ari imiti gakondo bashyizemo cyangwa se imiti y'ibimera kugira ngo iyo miti izafashe abahuye n'uburwayi, ibavure bakire neza.

Amacupa agiye atandukanye, birasa nkaho arimo imiti ishobora kuvura umuntu ufite ikibazo cy'uruhu, nkuko bigaragara aya macupa birasa nkaho amwe muri yo arimo amavuta yo kwisiga.

Aha ngaha hari ubwoko bugiye butandukanye bw'imiti gakondo, yifashishwa mu buvuzi gakondo. Ni byiza ko twajya tunakoresha kuri ino miti gakondo kuko nayo idufasha gukira uburwayi.

Igikombe cy'umweru kirimo ji, iyo ji ikozwe mu mbuto zitandukanye, iruhande rw'iyo ji hari tangawize, yifashishwa kugira ngo umuntu ayirye, akomeze amererwe neza.

Ni kwa muganga cyangwa muri farumasi, hari umuganga wambaye imyenda yabugenewe y'abaganga, hari indi miti ipfunyitse mu dukarito, indi ipfunyitse mu macupa.

Aha ngaha hari amacupa abiri arimo amavuta, birasa nk'aho ano macupa yombi harimo amavuta akozwe mu gikakarubamba ndetse igikakarubamba ni cyiza ku mubiri wacu kuko gituma uruhu rwacu rumera neza iyo twisize amavuta akozwe ku gikakarubamba.

Aha ngaha hari ikibabi gitoshye cyane hari n'ikiganza gifashe kuri icyo kibabi, birasa nkaho bari kwitegereza iki kibabi neza kugira ngo bamenye niba cyaba cyavamo umuti gakondo.

Ahaha hari amacupa agiye atandukanye ndetse birasa nk'aho aya macupa arimo amavuta yo kwisiga kuko kuri aya macupa hariho icyapa cy'igishushanyo kika.

Akabati karimo amacupa menshi cyane atandukanye, ndetse muri ayo macupa birashoboka ko harimo imiti gakondo yifashishwa n'abavuzi ba gakondo bavura abantu indwara zitandukanye.

Amacupa ndetse n'utundi dupfunyika turimo amavuta ndetse byashoboka kuba harimo n'imiti gakondo yifashishwa bavura abantu ndetse n'aya mavuta akifashishwa mu kugira ngo uruhu rw'umuntu rumererwe neza.

Izi ni tungurusumu ubona ko zahinzwe ahantu heza cyane hera, tungurusumu ni igihingwa cyifashishwa, haba mu buvuzi cyangwa se mu guteka ibiryo kugira ngo biryohe.

Iyi ni imiti gakondo igiye itandukanye hagati yayo harimo agasekuro ndetse n'umuhini byifashishwa batunganya iyi miti gakondo ngo yifashishwe bavura abantu bafite indwara zitandukanye.

Ibyatsi bifite ibibabi bitohagiye cyane, birasa nkaho bishobora kuba byakorwamo n'umuti gakondo, ushobora kwifashishwa bavura abantu indwara zitandukanye.

Agasekuru gatoya ndetse hari n'umuntu ufashe umusekuzo, asa nkaho ari gusekura umuti gakondo wifashishwa bavura abantu indwara zigiye zitandukanye.

Icyumba ubona ko kirimo imiti gakondo igiye itandukanye, harimo n'ibindi bintu bigiye biteye ubwoba, birasa nk'aho iki cyumba gikoreramo umupfumu.

Uducupa dutatu, duteretse ahantu hatandukanye, agacupa kamwe gateretse ahagana hasi, akandi gacupa gateretse ahisumbuyeho, ndetse hari n'akandi gateretse ahisumbuyeho cyane.

Aha ngaha hari igihingwa gitoshye neza cyane rwose, birasa nk'aho bagisukira buri munsi, gifite amababi meza, ubona ko kizakura gifite amashami ameze neza cyane.

Aha ngaha hari ibibabi by'ibihingwa bitandukanye ndetse tukahabona imineke idahiye neza ndetse tukahabona n'izindi mbuto zidasobanutse neza.

Aha ngaha hari amacupa abiri asa nk'aho areshya, aya macupa arimo amavuta yo kwisiga asa nk'aho akozwe mu gikakarubamba ndetse umuntu arayisiga akagira uruhu rwiza.